Inama yabereye muri Kigali Mariot hotel, igamije kuzana udushya mu Rwanda, ikaba ari gahunda ya Guverinoma yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Amahugurwa aba yateguwe ku rwego rw'igihugu agamije kwigisha cyangwa guhugura urubyiruko, akenshi bikunze kuba kugira ngo baganire ku bikorwa by'imikino kuko abana ni abatirete, abantu birukanka.

Inama y'urubyiruko yateranye kugira ngo higwe ku bibazo bigiye bitandukanye urubyiruko ruhura nabyo n'ingamba n'ibisubizo byo kubikemura.

Umunara w'itumanaho worohereza abaturage gutumanaho byoroshye ndetse ukanatanga uburyo bwa interinete bwihuse bitewe n'umunara.

Iminara miremire yashyiriweho gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu.

Serivisi zigiye zitandukanye zitangwa mu bitaro, aho hagaragazwa ko bitemewe kunywera itabi hafi y'utanga cyangwa se muri ako gace gatangwamo izo serivisi.

Inama y'inzego z ibanze n'abaturage biga ku myitwarire imwe n'imwe igiye itandukanye ya bamwe mu baturage haba abitwara nabi cyangwa abitwara neza.

Inama y'abashinjacyaha n'abavoka yateranye, kugira ngo higwe ku bibazo bigiye bitandukanye n'imyanzuro igiye itandukanye mu mategeko y'ibihugu.

Inama yateranywe yabereye ku kagari igamije kwiga ku munyabyaha cyangwa se undi muntu wese ufite imico itari myiza ibangamira abaturage, bakaza bakabiganiraho bagafata umwanzuro.

Imodoka za polisi zagenewe gutwara abapolisi, ndetse zikaba zishinzwe'umutekano w'abaturage batuye mu Rwanda.

Igikoresho gikoreshwa mu bwirinzi bw'inkongi z'umuriro zitateguwe, aho gikoresha iki gisohora amazi, hari n'ibisohora imyotsi igafasha kuzimya umuriro utateguwe.

Umuhanda wubakiwe abaturage, wubatswe na guverinoma kugira ngo ujye ukoreshwa mu buryo bw'ubwikorezi cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuhanda wagenewe kunyuzwamo imodoka zitwaye ibintu zibijyana ahantu hamwe cyangwa ahandi, hakaba hari n'abagenzi batambuka na bo bagiye gushaka imibereho cyangwa se ubuzima.

Icyapa cyo ku muhanda kerekana ko harimo harakorwa ibikorwa byo gusana umuhanda cyangwa se ibindi bintu byaba byateje ikibazo mu muhanda, ko hatakiri gukoreshwa.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko ugomba gukatira iburyo, kigafasha gutuma imodoka zikomeza umuhanda nta kuyoba.

Icyapa kiri mu muhanda kibuza abayobozi cyangwa abatwaye ibinyabiziga guhagarara bitemewe cyangwa binyuranyije n'amategeko.